Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, ubanza w'umudamu yambaye indorerwamo, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika, ukurikiyeho w'umugabo w'umwirabura aricaye ari gutekereza cyane ndetse hirya ye hari umugabo w'umuzungu wambaye ikote ndetse na karavate yicaye areba hasi.

Ishuri harimo abanyeshuri bicaye bari kwigishwa na mwarimu buri munyeshuri akaba afite mudasobwa imbere ye akaba afite n'inyandiko n'agacupa k'amazi yo kunywa bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe. Baricaye ku ntebe nziza. Intebe ziteretse ahantu hari tapi. Umugore wicaye imbere afite telefone mu ntoki, yambaye amarinete. Ku ruhande rwe, hari undi mugore na we wicaye. Yambaye umupira w'ubururu ndetse na we yambaye amarinete.

Abantu batatu bicaye. Uwicaye iburyo afite mudasobwa n'agacupa k'amazi, akaba yambaye indorerwamo ku maso. Uwo hagati afite agacupa k'amazi imbere ye. Yambaye indorerwamo mu maso akaba ari umugore. Ku ruhande rw'ibumoso, hicaye umugabo wambaye ikote na karavate, akaba ari kwandika. Inyuma yabo hari amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, buri muntu afite agacupa k'amazi, buri muntu afite ibitabo bigiye bitandukanye, ameza ari imbere yabo azengurutse hose, ndetse bambaye imyenda myiza.

Abantu bicaye bakoze ishusho y'ikizeru, bicaye mu cyumba gitatse amabara ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, imbere yabo hari ameza yiganjemo ibara ritukura ndetse n'indabo zitatse muri icyo cyumba barimo.

Abantu babiri bahagaze umwe ni umuzungu yambaye ikoti ry'umukara, undi ni umwirabura yambaye ingofero y'umweru akaba yambaye ikote, inyuma yabo hari intebe.

Ikarita iranga amerekezo y'agace runaka mu mujyi wa Kigali kuko hagaragaramo imihanda igiye itandukanye yo mu mujyi wa Kigali ndetse no kuri minisiteri y'ubuzima mu Rwanda.

Urubuga rwa Leta rushinzwe gushakira abanyarwandakazi. Iyo udafite konti kuri uru rubuga urabanza ukiyandikisha mbere na mbere. Ruri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Hariho ikirangantego cy'u Rwanda. Haba hariho akazi kagiye gatandukanye, iyo ufitemo konti uraza ukinjira, ugasaba umwanya wifuza kujyamo, akazi kaboneka bakakaguha.

Icyapa cyigisha abantu uko bakoresha gahunda z'irembo babyikoreye, hariho ifoto y'umuntu afite telefone mu ntoki igaragaza gahunda z'irembo zose, hariho amagambo yanditseho ari mu ibara ry'ubururu asobanura uko gahunda z'irembo zikoreshwa.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba. Buri wese yicaye ku ntebe ye, kandi buri wese ahugiye mu by'iwe. Umwe afite telefone, ari kuyikoresha. Undi afite mudasobwa iteretse imbere ye, ni yo ari kurebamo.

Igikorwa rusange cy'umuriro w'amashanyarazi, ipoto ririho insinga rigeza amashanyarazi ku baturage, kuri iryo poto hariho itara rinini rimurikira umuhanda, munsi y'iryo poto hegetsemo matera abantu bararaho, hirya hari ishyamba ry'ibiti byiza kandi byinshi.

Inkengero z'umuhanda abantu bifashisha mu gihe bari kugenda n'amaguru. Hari umuntu utwaye igare, akaba ari kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Hakaba hari n'abandi barisunitse bifashishije akayira k'abanyamaguru. Hakaba hari amasangano y'umuhanda ndetse n'itara rimurikira umuhanda mu gihe bwije.

Inyubako ifite imiryango myinshi cyane, iyo miryango yose irafunze, imbere y'iyo miryango hateye intebe, aho intebe ziteye hari amakaro abantu banyuraho, ndetse hakaba hari n'amatara hejuru y'aho ari kwaka, amurikira akayira k'abanyamaguru.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi. Hari abantu baje gushaka ubuvuzi, abagore ndetse n'abagabo. Mbere yuko winjira muri iyo nzu, hari agapangu ubanza kunyuraho, ugahita ugera ahantu hari amakaro, mbere yuko ugera mu muryango winjira muri iyo nzu. Iteye amarangi y'umuhondo, ikaba yubakishijwe amatafari.

Abantu bahagaze umwe muri bo ni Polo Kagame perezida w'u Rwanda inyuma yabo hari amabendera y'igihugu cy'u rRwanda abantu bahagaze impande ya Polo Kagame bambaye imyenda itukura inyuma ye hari abambaye amakoti ya kositimu.

Inzu y'amagorofa menshi cyane iteye amarangi agiye atandukanye ikaba ifite ibyumba byinshi cyane imbere yayo hari igiti kirekire ndetse n'icyapa kigaragaza akayira k'abanyamaguru imbere yayo haparitse imodoka z'abantu ku giti cyabo ndetse n'imodoka za polisi.

Abantu bahagaze mu muhanda, inyuma yabo hari inzu iriho ibyapa ndetse ikorerwamo n'ubucuruzi, umwe muri bo ni umupolisi ukora mu muhanda, akaba ari kuyobora abantu kugira ngo bagire umutekano mwiza.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kizwi nka kizimyamwoto gishobora gukoresha puderi, amazi cyangwa gaze mu kuzimya umuriro, giteretse ahantu mu nzu impande y'igikuta kikaba gifite umupira usohora gaze, amazi kugira ngo hazimwe umuriro.

Imodoka ebyiri ziri kubisigana mu muhanda rusange, imodoka ibanza y'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iri iruhande rwayo y'umuhondo itwara ibicuruzwa ibivana ahantu hamwe ibijyana ahandi, ruguru yazo kandi hakaba hari ibiti birebire cyane biteye impande y'umuhanda, ahabanza hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri, mu muhanda harimo imodoka iri kugenda ndetse hagati harimo imirongo igabanya ibice by'imihanda urebye hagati harimo indabyo zitatse ku mihanda, hakaba n'ibiti bizengurutse uwo muhanda impande y'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, birimo moto imodoka. Ku mpande zawo harimo ibiti bitanga umuyaga, ndetse hari n'amapoto yohereza umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ya magorofa ane. Bigaragara ko ari inzu y'ubucuruzi. Hariho ibyapa byamamariza amasosiyeti agiye atandukanye, imbere y'iyo nzu, haparitse imodoka nyinshi zigiye zitandukanye.

Inzu iherereye hafi y'umuhanda ikaba ifite urupangu rufunguka rugendeye ku mapine, mo imbere harimo indabyo zigiye zitandukanye . Inzu ifite amagorofa ageze kuri abiri ndetse ikaba ifite n'urutsinga ruzana umuriro w'amashanyarazi ,iteye amarangi ifite n'ibirahure.

Umuhanda rusange ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, moto, imodoka n'amagare, muri uyu muhanda hari moto ihetse umuntu iri kugenda, hari icyapa ruguru ndetse hakaba n'umukingo uteyeho ibiti.

Umuhanda rusange urimo imodoka, imirongo igabanya ibisate by'umuhanda, amatara amurikira umuhanda, indabyo zitatse ku mihanda kugirango abantu babashe kubona umwuka mwiza impande y'umuhanda hari utuyira t twabanyamaguru imi impande y'utuyira tw'abanyamaguru hari imirongo yumukara n'umweru yereka abanyamaguru kuko batagomba kuyirenga.

Umuhanda ukoreshwa mu buryo bwa rusange. Mu muhanda hari kugendamo imodoka ndetse na moto zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ku mpande z'umuhanda hari inyubako z'ubucuruzi ndetse hakaba n'ibiti bitatse umuhanda n'amatara amurikira umuhanda mu gihe bwije.

Ihuriro ry'imihanda ibiri, umwe uturuka ibumoso winjira mu wundi, ku mpande z'umuhanda hari ibiti byinshi kandi binini, hakaba haparitse igare rya siporo, ndetse munsi hakaba harimo n'akayira k'amazi.